Abagabo batatu, bari imbere y'akazu ka MTN. muri ako kazu hakaba hicayemo umuntu, bisa nkaho ari umukozi w'iki kigo gishinzwe ibijyanye n'itumanaho. Iruhande y'aba bantu hari ikindi cyapa, kiriho MTN Mobile Money ndetse na Airtel Money na Tigo Cash.

Umugabo wicaye mu nzu ubona ko ari inzu igezweho, akaba yicaye mu ntebe nziza cyane, afite icyapa ateruye cyanditseho ngo: "Ohereza amafaranga ku mirongo yose", iruhande rwe iburyo ndetse n'ibumoso hari icyapa cyanditseho Airtel ndetse inyuma ye hari ahantu hateretse uducupa tw'amazi.

Umusore uri mu kazu k'ikigo k'itumanaho cya MTN. Akaba yambaye umwambaro wabugenewe uranga icyo kigo. Akazu kakaba kari mu mabara y'umuhondo ndetse mu idirishya hakaba harimo umu mama waje gushaka serivisi icyo kigo gitanga. Uwo mubyeyi akaba afite amafaranga mu ntoki bisa nkaho uyu musore ariwe uyamuhereje.

Umugabo wicaye ku ntebe akaba yambaye akajiri ka Airtel, akaba yegamiye ku kazu k'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda cya MTN, muri ako kazu harimo undi muntu wicayemo ndetse imbere y'ako kazu haragaragara akayira k'abanyamaguru gakoresheje amapave ndetse haragaragara imodoka n'amagare.

Ni akazu k'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda cya emutiyeni, ako kazu kakaba karimo umukozi w'icyo kigo hari abantu bari mu madirishya yombi y'ako kazu bisa nk'aho baje gushaka serivisi icyo kigo gikora.

Ahantu hari urujya n'uruza rw'abantu ikaba ari inyubako ya Equity banke, abantu baje ahangaha kuri ino nzu kugira ngo babitse ndetse banabikuze amafaranga yabo, urabona ko hari abantu bambaye imyenda bashinzwe kubafasha.

Abantu bateraniye ahantu bicaye ndetse bakaba bakoze uruziga. Hagati yabo harimo umugabo uri kugira icyo ababwira ndetse muri abo bantu harimo n'umugabo w'umuzungu, bisa nkaho bari mu itsinda runaka.

Ni abantu benshi bicaye ahantu hasa nkaho hari ibiti bihateye byinshi ndetse hakaba hagaragara n'inzu ariko itaruzura neza.Aba bantu bisa nkaho hari itsinda runaka bari barimo hanyuma bakavuga bati: <<reka dufate ifoto y'urwibutso.>>Hari umugabo wambaye ishati y'umweru ufite akanverope mu ntoki.

Abagabo ndetse n'abamama bahagaze ahantu bakaba imbere yabo hari ameza ariho bimwe mu bicuruzwa bagenda bakora, hakaba hariho inkweto zifunze ndetse hakaba hariho utubaga tw'abakobwa hariho kandi n'utukweto twa masaye iyingiyi ikaba ari koperative ikora bino bintu.

Ni ahantu ubona ko hahinze ibigori ndetse hakaba harimo ipoto ririho umwirasire. Uyu mwirasire ukaba ugerageza gukurura izuba, kugira ngo ubashe kuba watanga amashanyarazi. Ni umurima munini rero ubona ko uhinzemo ibigori, ndetse ibigori bikaba bigeze mu gihe kiza aho byenda kwera.

Ni ahantu bigaragara ko ari mu cyumba k'inama hakaba harimo abantu bicaye ku ntebe z'imyeru, imbere ku meza hari uducupa tuhateretse ndetse imbere yabo hari umuntu uhagaze bisa nkaho ari kubasobanurira, imbere yabo hari icyapa gisa ubururu cyandikishijeho amagambo ari mu nyuguti z'umweru handitseho ngo ''Nyagatare invesitimenti foramu.''

Ahantu ubona ko hubatse amahema hakaba hari abantu bagiye batandukanye, hagaragara inanasi ziteretse hejuru ku meza aho ubona hari abagabo runaka baje kureba izo mbuto kugira nabo babashe kuba bakigurira.

Ni ahantu bigaragara ko hari imurikabikorwa aho hari umugabo ndetse n'umugore we bambaye imipira isa aho umugore afite mikorofoni mu ntoki, imbere ye hateretse utuntu twinshi tw'ubugeni bagiye bakora aho harimo ibisaro ndetse n'udutete, biragaragara ko hari umuntu runaka barimo barereka ibyo bagezeho nka koperative yabo.

Abantu benshi ubona ko bicaye ahantu mu gisharagati cyangwa se mu mahema, hakaba harimo abambaye impuzankano zisa, bisa nk'aho hari umunsi runaka cyangwa se hari igikorwa k'ingenzi cyabaye bakaba bitabiriye, biragaragara ko bari gutega amatwi umuntu urimo arabagezaho ijambo yabateguriye.

Abadamu benshi cyane bari ahantu hameze nkaho ari mu matente, hakaba harimo abenshi bambaye impuzankano ndetse hakaba harimo umudamu umwe wambaye ikanzu irimo amabara y'umutuku, akaba afite mikorofone, imbere ye hari ibikorwa iyi koperative ikora, uyu mudamu akaba arimo aragerageza kumurika ibi bikorwa.

Ni ahantu hateraniye abantu benshi, bisa nkaho hari iyerekanabikorwa ryabaye, bakaba bari munsi y'amatente, aho hari koperative Ahazaza heza kuri bose, ikora inkweto zigiye zitandukanye, izi nkweto bakaba bazishyize ku meza, hari abayobozi runaka, baje kuzereka.

Ni inzu isakaje amabati y'umutuku ndetse ikaba izengurukijwe n'utundi tubati ahagana hasi tw'umutuku, iyi nzu ikaba ari ubwanikiro ari ho abahinzi baza bagashyira ibigori byabo kugira ngo bibashe kuma kandi bitangiritse, iruhande rw'iyi nzu hari igare riparitse ndetse hagaragara n'ikigega.

Ni ahantu hateraniye abantu benshi, hakaba hubatse amahema agiye atandukanye. Hari umugabo wambaye amarineti ndetse n'ikote, aho ari kumwe n'undi mugabo wambaye ishati y'umweru, hari icyapa kibari imbere uyu mugabo wambaye amarineti n'ikositime, akaba arimo aratungira agatoki uno umugabo, bisa nkaho hari ibintu ari kumusobanurira biri kuri icyo cyapa.

Ni ahantu hagaragara inzu zubatswe mu buryo bwa kijyambere, zikaba ari inzu za etage. Munsi y'izo nzu haparitsemo akazu gakoreramo umu agenti wa bpr banki ndetse na Equity, aho mu idirishya harimo abantu baje gushaka izo serivisi.

Umugabo n'umugore ubona ko ari abasirimu, bakaba bahagaze ahantu mu nzu ubona ko hari ibintu runaka bikorerwamo. Aba ngaba bakaba bafashe ikintu kinini, bishoboka ko ari nka sheke bahawe na banki imwe muri banki zigize u Rwanda babashimira ibikorwa byabo.

Umukobwa wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara akaba afite n'imisatsi yirabura, ahagaze ahantu mu kabari harimo etajeri irimo ubwoko bw'inzoga bwinshi butandukanye, haragaragara kandi firigo irimo inzoga nyinshi zitandukanye, aha ngaha hakaba ari mu kabari.

Akabari keza cyane biragaragara ko ari mu masaha ya nijoro hakaba harimo abantu bahagaragara baje kwaka serivisi harimo kontwari nziza cyane irimo ubwoko bw'inzoga bugiye butandukanye ndetse hari umuntu uri imbereye kuri kontwairi ugiye kwicara ku dutebe tuhateye haragaragaramo kandi amatara yaka neza cyane.

Ni ahantu hameze nko mu kabari hakaba hari kwakamo amatara y'umuhondo, hateguwemo ameza agiye akikijwe n'intebe ndetse ku meza hariho n'utundi dukoresho nk'ibikombe ndetse n'amasahani biragaragara ko aha hantu hacururizwa ibintu byo kurya no kunywa, hasi hari tapi nziza cyane.

Ni mu kabari ubona ko ari akabari gakeye, harimo etajeri irimo ubwoko bwinshi bugiye butandukanye bw'ibinyobwa ndetse imbere yaho hari ahantu abakiriya bicara, harimo intebe ndende ndetse n'ingufi, haragaragaramo icyuma cyerekana amashusho kizwi nka televiziyo.

Umumama wicaye ahantu muri butike bigaragara ko acururizamo ibintu bigiye bitandukanye, harimo uturungo bashyira mu biryo hakabamo inyanya, imigati ndetse harimo n'akabidoho k'amavuta ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, uyu mumama afite ikaye n'ikaramu bisa nkaho hari ibintu by'ingenzi arimo arandika kandi urabona ko yasetse.

Ni ahantu hahagazemo umugore wambaye ikanzu y'umukara irimo utudomo tw'umweru, inyuma ye hakaba hari etajeri irimo amakaziye arimo amacupa menshi y'ibyo kunywa bigiye bitandukanye, harimo Pirimus ndetse n'ibindi.

Inzu yubatse neza cyane hakaba harimo ibintu bigiye bitandukanye. Ifite imiryango itatu aho mu miryango ibiri harimo boutique zicuruza imyenda, ndetse n'ibyokunywa bitandukanye. Imbere ku muryango hari abantu bahari baje gushaka izo serivisi.

Ni inyubako ubona ko ikorerwamo akazi k'ubucuruzi, iyi nyubako ikaba ari butike harimo amabasi, hakabamo udukapu, hakabamo udufuka tugiye turimo ibiribwa bitandukanye ndetse harimo n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye.

Ni ahantu hicayemo abantu bigaragara ko ari muri bitike, iyi butike ikaba irimo ibintu bigiye bitandukanye biribwa, harimo umusore wambaye akambaro kabugenewe aho ari gutema amafi, araseka urabona ko yishimye.

Ahantu ubona ko hari ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye. Hasi ku mapave, harambitse igare, ndetse hari na moto yindi iparitse. Hari inkweto zitnditse ahantu, ndetse hari n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye bihagaragara.

Ni inyubako bigaragara ko ari iy'ubucuruzi hakaba harimo amayetajeri agiye arimo ibintu by'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, iyi ngiyi ikaba ari botike ubona ko iyi botike irimo ibintu byinshi cyane harimo ibiribwa ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Ni ahantu hameze nk'aho ari mu kiliziya hakaba hahagaze abagabo bagiye batandukanye, muri abo bagabo hakaba harimo umwe wambaye imyenda y'abapadiri ndetse n'abandi basa nk'aho bamwungirije, buri muntu muri abo bamwungirije akaba afite akantu kameze nk'aho ari seritifika ari kukerekana, imbere yabo haragaragara intebe y'ubururu.

Abantu bisa nkaho ari abasirimu kuko bambaye neza cyane. Aba bantu bakaba bafite bibiliya ku bibero byabo bisa nkaho bari mu rusengero aho baje gusenga. Barakurikiye bose urabona ko bateze amatwi umuntu uri kubabwira ijambo ry'Imana.

Abantu bari mu rusengero ubona ko bapfukamye bose bazamuye ibiganza bakaba bari gusenga, inyuma yabo ku gikuta hamanitse umusaraba ndetse urabona ko rwose bizihiwe barimo barasaba bambaza rurema.

Abantu benshi ubona ko bateraniye imbere y'inyubako imeze nkaho ari urusengero yubakishije amatafari ahiye hakaba hari abantu bane babicaye imbere, biragaragara ko hari ubutumwa barimo barumva cyangwa se bateze amatwi ijambo ry'imana.

Ni ahantutu bigaragara ko ari mu rusengero runini cyane hakaba harimo abantu benshi batandukanye baje gusenga, hari umugabo upfukamye imbere bisa nkaho ari hafi ya aritari aho apfukamye asa nkaho arimo arasenga, imbere ye hari intebe ndetse hateye n'akandi kantu kariho igitambaro cy'umweru.

Ni abantu benshi bari mu ngeri zigiye zitandukanye hakaba harimo abantu b'abazungu bagaragaramo ndetse bakaba bari kwifotoreza ahantu imbere y'amazu atatu ubona yubakishije amatafari ahinye ndetse akaba asakarishije amabati y'umutuku, hagaragara kandi ibiti bisa nk'aho ari iby'amapoto y'amashanyarazi

Icyapa kiriho ikimenyetso cy'umusaraba kiri mu mabara y'umutuku, kikaba cyanditseho inyuguti z'umukara ndetse n'umutuku, handitseho ijambo rigira riti " caritasi Rwanda".

Ni hantu ubona ko hubatse ibisharagati hakaba hari abantu benshi bahateraniye urabona ko ari abantu bizihiwe cyane bisa nkaho hari igiterane runaka cyababereye nk'umupasiteri runaka akaba yaje kubabwiriza noneho bakaba bageze mu gihe cyo guhimbaza.

Ahantu hameze nko kuri hoteli hakaba hagaragara pisine nziza, imbere ya pisine hari intebe ndetse kuri buri ntebe hakaba hari umutaka urinda abakiriya izuba, haragaragara kandi ubusitani bwiza, amafoto menshi ndetse n'inyubako.

Aka ni agace kamwe mu tugize hoteri zigiye zitandukanye ziri hirya no hino mu Rwanda, aho hari pisine nziza ndetse hakaba hari n'udutebe twiza abantu bicaraho bavuye koga amazi muri pisine ndetse iyo pisine hakaba hari ibiti biyikikije.

Iyi ni inyubako ya hoteri nziza cyane, ikaba yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyi nyubako ari etage. Imbere yayo hari imbuga ngari iteyemo utwatsi twiza cyane ndetse haragaragara n'izindi nyubako ziri hirya y'iyo hoteli.

Ni inzu ubona ko yubatswe mu buryo bugezweho iyi nzu ikaba ari etaje, iyi nzu ikaba ari hoteri ndetse imbere yayo hakaba hari pisine yogerwamo n'abakiriya, iruhande rw'iyo pisine hari jaride nziza cyane.

Ni mu cyumba cya hoteli aho hagaragara uburiri busashe neza cyane ndetse n'intebe ziri imbere abantu bicaramo bakegama, haragaragara ahantu hateretse ivaze ririmo indabyo ndetse hari muri icyo cyumba amarido meza cyane n'amatara ari kwaka.

Mu mahoteli agiye atandukanye hirya no hino mu Rwanda, uhasanga amafunguro meza kandi ateguranywe ubuhanga. Hano ni ku meza hakaba hateretseho amasahane ariho amafunguro atandukanye, hariho imigati, ndetse hakabaho n'imireti ikoze neza. Hariho kandi n'akantu kameze nk'iterimusi, bisa nk'uwarimo icyo kunywa ndetse n'ibikombe.

Ni inyubako nziza cyane, iyi nyubako akaba ari hoteli, imbere yayo hari pisine nziza cyane, iruhande rwa pisine hakaba hateye ibirabyo by'ubwoko bugiye butandukanye.

Ni icyuyumba cyiza, ubona ko kirimo ubwiherero bwiza cyane, harimo ahantu umuntu ahita akabira intoki ndetse hakaba hariho n'ubwiherero bupfundikirwa, kikaba kiri mu mabara y'umweru, ubona ko ku rukuta hariho amakaro.

Icyumba kiza cya hoteli kikaba kirimo uburiri bwiza bushashe neza bwo kuryamaho ndetse muri icyo cyumba hakaba harimo udutebe twabugenewe umuntu yicaraho n'ameza mu gihe agiye kubya.

Aha ni kuri hoteli aho hari pissinine nziza cyane, ndetse hakaba hari n'udutebe twabugenewe abakiriya bicaraho nyuma yuko bavuye koga, kuri utwo dutebe hariho umutaka ukingira abakiriya izuba hirya ya pisine, haragaragara ubusitani bwiza cyane.

Ni inyubako iri ahantu hitaruye, ikaba yubatswe neza mu buryo bugezweho, biragaragara ko iyi nyubako ari hoteli, imbere yayo haparitse imodoka ndetse imbere yayo mu mbuga haragaragara jaride nziza cyane, ubona ko harimo utwatsi twiza, ari ahantu heza cyane.

Iyi ni inyubako nziza ya hoteli, ikaba yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyi nyubako ari etaje isize amabara y'umweru ndetse munsi yayo hari ibiti bihateye, hari kandi akajaride keza cyane karimo utwatsi, ubona ko dutohereye dufasha kuzanira abakiriya akayaga ko guhumeka.

Ni mu isoko aho harimo ibintu byinshi bigiye bihamanitse, hakaba harimo ibitenge ndetse n'amakanzu n'amajipo y'abagore. Hicaye umugore umwe, urimo aragerageza gucuruza bino bintu ndetse mu by'ukuri hari ibintu byinshi byiza cyane, twavugamo nk'ibitenge ndetse n'ibindi.

Umugore wicaye ahantu hari ibigori byinshi bishishuye hakaba hari umuntu utagaragara neza ari ko hagaragara akaboko ke ufashe telefone bisa nkaho ari umunyamakuru arimo arafata amajwi uno mugore, imbere ye hari abantu benshi bahari ndetse hari n'inyubako ihagaragara, abo bantu na bo bishoboka ko bari kumufasha gutunganya ibyo bigori.

Ni mu isoko aho hatanditse ibicuruzwa bitandukanye hagaragara udukombe tugurishwa ndetse n'amabasi kandi hagaragara imisatsi abakobwa bifashisha basuka hari kandi imifuka iri ku dutanda twubatse ndetse na shitingi.

Umumama wicaye ahantu witwikiriye umutaka akaba yatanditse ibitunguru, hari ibitunguru biri ku gasorori gateretse ku munzani ndetse hagaragara n'ibindi birenge by'abantu bari gutambuka, bisa nk'aho aha ngaha ari mu isoko cyangwa se ari ahantu hacururizwa imbuto zitandukanye.

Ni ahantu bigaragara ko hasa nk'ahari agasoko kuko haragaragara imyenda, ibikapu ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye bihari. Hakaba hari umuntu wegamye ku nkingi ifashe shitingi baba bubatse kugira ngo ibicuruzwa byabo bitanyagirwa mu gihe imvura yaba iguye.

Ahantu hari abantu babiri bambaye imipira y'imituku. Bikaba bisa nk'aho baje mu isoko, aho barimo baracuruza imyenda igiye itandukanye ndetse n'inkweto. hagaragara kandi n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye.

Ahantu hameze nk'aho ari muri hoteli cyangwa se muri resitora, hakaba harimo intebe ndetse n'ameza, aho bakirira abakiriya bavuye impande n'impande, haragaragaramo abantu bashinzwe kwakira abo bakiriya, biragaragara ko ari ahantu heza kandi hafite isuku.

Ahantu hameze nk'aho ari muri resitora aho hari ibisuperi birimo ibiryo byinshi bigiye bitandukanye ndetse by'amoko agiye atandukanye hakaba hari n'abantu barimo baraza barura kuri buri gisuperi.

Ni ahantutu mu muhanda hakaba haparitse abanyonzi n'amagare yabo benshi, iruhande rwabo hakaba hari inzu iriho ibara ry'umuhondo hariho icyapa cya MTN. Mu bigaragara ni uko kuri uwo muhanda hari amapoto ariho insinga z'amashanyarazi.

Ni mu muhanda wa kaburimbo hakaba harimo umumotari uhetse umugenzi, ageze neza neza imbere y'aho abanyamaguru bakunda kwambukira ahazwi nka zebura korosi.

Ahantu hateraniye aba motari benshi batandukanye. Aho bose bambaye Kasike. Hakaba hari umupolisi uhagaze hagati yabo ufite micro phone mu ntoki ze asa nkaho hari ubutumwa bw'ingenzi ari kubabwira. Imbere ye hari abandi ba motari bari kuri moto.

Ahantu mu muhanda wa kaburimbo, hakaba harimo abamotari benshi barimo baratwara abagenzi. Hari umumotari umwe ugaragara nkaho agejeje umugenzi w'umukobwa aho yajyaga ,akaba arimo arakuramo kasike aganira n'uwo mumotari ubona ko barimo baraseka. Iruhande rw'uwo muhanda hakaba hari ibiti bihakikije.

Ni mu muhanda wa kaburimbo hakaba hagaragaramo umumotari uhetse umugenzi, iruhande rwe hari ahantu hari akayira k'abanyamaguru ndetse hari ibyapa bigiye byanditseho amagambo, hari n'amapoto ariho insinga z'amashanyarazi.

Ni imodoka nziza iri mu mabara y'umukara ikaba iri mu muhanda wa kaburimbo irimo iragenda, biragaragara ko ari imodokadoka idatwara abagenzi, inyuma yayo hari inyubako z'ubucuruzi zihagaragara ndetse muri uwo muhanda haragaragaramo umumotari utwaye umugenzi, iruhande rw'umuhanda hari akayira k'abanyamaguru.

Ni umuhanda ukaba urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo umumotari uhetse umugenzi, hakaba harimo imodoka y'umuntu ku giti ke, hakaba hagaragara n'undi mumotari uhetse akabokisi k'umutuku ndetse uwo muhanda urimo n'abantu bari kugenda imbere hari imodoka ya bisi itwara abantu benshi.

Umugabo uri kuri moto aho ari kugendera mu muhanda urimo amapave, iruhande rwe hakaba hari icyapa cyanditseho amagambo ariko atagaragara neza ndetse haragaragara n'inyubako zigiye zitandu.

Umugabo w'umuzungu uri kuri moto, akaba aparitse iruhande rw'akayira k'abanyamaguru muri kaburimbo. Mu kayira k'abanyamaguru hakaba hari abantu bahagaze bisa nkaho barimo baramuganiriza harimo abamotari batatu. Babiri muri bo bambaye kasike ndetse bisa nkaho barimo barareba uno mugabo kugira ngo barebe ko ari bubashe gutwara iyi moto. Inyuma yabo hakaba hari inyubako zubakishije amatafari ahiye hagaragara n'ibiti.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo, hakaba hagaragara umugabo uri kuri moto wambaye kasike. Ageze ahantu haba hashushanyije imirongo y'umweru, aho abanyamaguru bambukira. Iruhande rwe mu kayira k'abanyamaguru, harimo abantu barimo baragenda. Haragaragara kandi n'inzu zisa nk'aho ari iz'ubucuruzi ndetse ku muhanda hateye ibiti biriho insinga z'amashanyarazi.

Ni mu muhanda wa kaburimbo ,aho hagaragaramo umugabo uri kuri moto. Akaba ahetse agafuka inyuma. Ku ruhande haragaragara akayira gatoya k'abanyamaguru ndetse haragaragara ahantu hubakiye bisa nkaho ari ahantu ho kwambukiraho, uva mu muhanda umwe ujya mu wundi. Haragaragara inzu ndetse n'igiti kiriho insinga z'amashanyarazi.

Umuntu uri ku igare bigaragara ko ari umunyeshuri agiye kwiga, akaba ari mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwe hakaba hari akayira k'abanyamaguru, muri ako kayira harimo umuntu uri kugenda, iruhande rw'umuhanda hari amapoto ariho amatara ndetse n'ibiti bihateye.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo, hakaba harimo imodoka nziza y'umweru irimo iragenda, iruhande rw'iyo modoka hakaba hari akayira k'abanyamaguru, haragaragara kandi ibiti byinshi ndetse haragaragara ipoto ry'amashanyarazi ririho insinga zitandukanye.

Umumotari uri mu muhanda w'ibitaka, utwaye ipikipiki, wambaye kasike ndetse n'akajire kabugenewe, iruhande rwe hakaba hari irigori inyuramo amazi ndetse n'amazu ahagaragara inyuma ye kandi hakaba hari n'abandi bantu bahagaze ndetse hanagaragara n'ipoto iriho insinga z'amashanyarazi.

Ni ahantu hubakishije amapave hakaba haparitse abamotari benshi bari kuri moto zabo, inyuma yabo hari umutaka uhari ndetse hari n'inzu zubakishije amategura zihari.

Ni ahantu bisa nk'aho ari mu muhanda, hakaba haparitse umumotari wambaye imyambaro y'akazi ndetse na kasike; iruhande rwe hari umugenzi w'umukobwa usa nk'aho ari gukoma mu mashyi, umumotari arimo aramuhereza kasike kugira ngo ayambare ubundi amutware. Inyuma yabo haragaragara imodoka ndetse n'umutaka wa MTN.